Abayobozi b'amakoperative ndetse n'abanyamuryango bayo bahuriye mu nzu yabo bakoreramo bari mu nama barimo bariga ku iterambere rya koperative yabo ndetse n'uburyo babasha gutera imbere kurusha uko bameze ubu.

Abayobozi bayobora amabanki ndetse n'amakoperative mu cyumba cy'inama bicaye hamwe bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga nka porojegiteri, imashini bariho baramurika imishinga ndetse bungurana n'inama n'ibitekerezo uko batera imbere.

Muri banki imbere umukozi wa banki arimo arakira umukiriya kugira ngo amuhe serivisi akeneye ariho aramukorera vuba yitonze umukiriya nawe aranezerewe afite amatsiko menshi cyane y ibyo agiye gukorerwa.

Butike, ubucuruzi buto buciriritse, aho umuntu arangura ibintu bike, akabiha abaturage batagombye kwirirwa bajya ku bacuruzi banini, dusangamo rero amavuta ndetse n'ibyokunywa, n'ibindi bintu nkenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Umubyeyi wicaye mu bucuruzi bwe buzwi nka butike yishimye cyane kubera ko yungutse amafaranga menshi, ibicuruzwa byinshi kandi byiza biraboneka iwe cyane ku bwinshi.

Amavuta ya vazerine, ni amavuta meza cyane akunda kwizirwa cyane cyane n'urubyiruko ndetse n'abagore, aho bavuga ko ayo mavuta agira uruhu rwiza. Akaba rero aboneka mu mabutike menshi cyane.

Abayobozi b'amatorero n'abafatanyabikorwa babo baricaye bari mu nama bari kwiga uko amatorero yabo yatera imbere ndetse n'uko abo bayobora babasha kubona amafaranga bakivana mu bukene.

Kiliziya ahantu hatagatifu abakristu bagenda bakaganira n'Imana, bakayitura ibyabo, bakayereka ababo ndetse bakanahicuriza ibyaha byabo.

Muri hoteli abantu bajya kwiyakira igihe bafite inyota cyangwa se bashonje, bakanaharara igihe ari ngombwa ko batabasha kugera aho kurara, igice cyayo cya hoteli inyuma kigaragaza amatafari ndetse n'aho bakirira abantu hazwi nko kuri resebusiyo.

Hoteri igice cyayo kigaragaza ahantu ho kwiyakira nko kunywera cyangwa se kubera ibiro runaka, hagaragaramo imitako, ikindi kandi ni inzu yo hejuru, ni etage yo hejuru.

Muri hoteli ahantu bafatira ibyo kunywa ndetse no kurya, hari intebe nziza zitukura ndetse n'utumeza twiza turiho ibi bitambaro by'umweru na byo byiza cyane. Abantu baraza bakicara muri gurupe cyangwa se mu itsinda bahana ibite.

Ahantu heza winjira muri hoteri hagaragaza amatara hagaragaza televiziyo abantu bareberamo ndetse n'akayira kazamuka kajya muri televiziyo hejuru amatara arimo araka urabona yuko ari nijoro mu mwijima ariko ho harabona neza cyane.

Mu cyumba mu imbere muri hoteri ahantu abakiriya baryama harimo supaneti igikoresho cyifashishwa mu kurinda malariya no kurumwa n'umubu utera malariya.

Umukozi wo muri hoteli arimo arajyana ifi ku bakiriya bayimutumye kugirango babashe kuyirya, afite isuku yambaye neza ku mubiri, ameze neza cyane ku buryo ntakibazo wagira cy'isuku yo muri hoteli.

Muri Hoteli abantu bararya bakanywa bakanaryamamo, ariko habamo n'ibyumba by'amasale biba byarahariwe inama, aho abaturage cyangwa se abayobozi bategura icyumba bakazagenda bakicaramo bakaganiriramo ibyo bashaka kuganira.

Epiki hoteli, hoteli nziza cyane iherereye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'iburarasirazuba hafi y'umujyi wa Nyagatare, ni hoteli nziza cyane y'inyenyeri enye watembereramo ukabona buri kimwe cyose wifuza kandi cyiza.

Muri resitora cyangwa se mu buririro rusange ni ahantu abantu bajya igihe cyo kurya kigeze ariko batari mu ngo zabo cyangwa se mu ngo iwabo batatetse bakagenda bakahafatira amafunguro ndetse n'ibyo kunywa.

Zebura korosingi, imodoka igeze muri zebura korosingi, iba igomba guhagarara kugira ngo abanyamaguru babashe kuhanyura, kuko n'iyo nzira yonyine bateganirijwe mu muhanda, iyo bahageze rero imodoka zose zirahagarara kugira ngo babashe gutambuka neza bitonze.

Umushoferi wa moto ufite urupapuro, arimo aritegura kwatsa moto ye, kugirango ajyane urupapuro aho yaruvanye, cyangwa se aho bamutumye. Abamotari ni abantu bakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu, bakabasha kubona amafaranga bahawe n'abakiriya.